Ni bimwe mu byapa byifashishwa mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bamamaze kandi banateze imbere ibyo bari kuranga bijyanye n'ibikoresho byo kubakisha amazu cyangwa se gufasha abaturage.

Ubu ni uburyo bakora bamamaza ku mihanda, bamamaza ibigo bishinzwe ubwishingizi kugira ngo bujye bubagoboka igihe bahuye n'ibyago bitandukanye.

Iki ni icyapa kigaragaza ababyeyi ndetse n'umwana wabo bari kwishima, imbere yabo hariyo ingobyi bashyiramo umwana bityo bikagaragaza uburyo bagomba gukoresha ubwishingizi mu biro byabo.

Uri mu gihugu wa Kigali ushinzwe kubika amafaranga ndetse no kubika imitungo y'abaturage ikabiha umutekano usesuye.

Ni imyambaro, iyi ni imyambaro yagenewe kwambarwa n'abagore, ariko kuri ubu hari n'abahungu bayambara bayifashishije, urabona ko harimo imyenda kandi iri ni'iduka rifasha abantu kuba babona imyenda igezweho.

Izi ni zimwe mu nzu z'ubucuruzi zikorerwamo ibyo kwihangira umurimo bakoresheje ibintu gakondo by'umuco nyarwanda, harimo kwihangira imirimo bateza imbere iby'iwabo imbere by'u rwanda.

Aba ni abakozi batanu ndetse n'imodoka eshatu, inyuma yabo hariho inzu ifite ibirahure byinshi cyane aba bakozi uko ari batanu bafite icyapa kigaragaza ibyo bakora.

Aba ni abagabo babiri bafite icyapa kigaragaza uburyo bagurishamo amamodoka, imbere yabo hari imodoka bifashisha bagendamo bakora imirimo itandukanye.

Aba ni abagabo babiri aho mu ntoki bafite icyapa kiranga imodoka iri imbere yabo, aba ni bamwe mu bamamaza ibikoresho bikorerwa muri izi modoka cyangwa se muri ibi byapa bafite bari kwamamaza.

Izi ni zimwe mu modoka zigezweho mu mujyi wa Kigali, aho ziri kwifashishwa mu kugabanya ingendo z'abantu, ndetse zikanagabanya kugenda kw'abantu benshi mu mihanda bikagaragaza ko u Rwanda ruri gutera imbere.

Iyi nk'uko bigaragara ni imodoka y'umweru, ifitemo n'amabara y'umukara, aho yifashishwa gutwara ibikoresho hirya no hino, kandi bigafasha abanyarwanda kuba byabageraho neza.

Nk'uko bigaragara aba ni abagabo babiri bari imbere y'ikinyabiziga gitwara ndetse kikaba kibarizwa mu kagera aba bafite icyapa mu ntoki kigaragaza ibyo bakora.

Aya ni amafaranga magana atanu y'u Rwanda, aho usanga hariho abana batatu cyangwa se ugasanga hariho ingagi eshatu bityo bigatuma umuntu abasha kuba yayatandukanya n'andi.

Aya ni amafaranga aho ari kubarwa n'umuturage areba ingano y'ayo mafaranga afite ashaka kuba yayakoresha icyo ashaka kuba yagura ndetse akanamufasha no mu buryo bwo kuba yabaho mu buzima bwa buri munsi.

Izi ni zimwe mu nzu zo mu gihugu cy'u Rwanda zishinzwe kubitsa no kubikuza amafaranga, kugira ngo abaturage bayifashishe bakora ibikorwaremezo byabo, biteza imbere mu gihugu kandi banagiteza imbere igihugu.

Izi ni inzu zimwe na zimwe ziri mu mujyi wa kigali zifasha abaturage mu kubitsa no kubikura amafaranga abafasha mu kwiteza imbere ndetse no kugira ngo bagure ibyo bakeneye.

Iri n'ikaragiro by'amata cyangwa se ahakusanyirizwa ibikomoka ku nka ari byo amata, ndetse n'ibyo gufatisha ushaka kunywa amata araza akanywa ndetse agafatisha n'ibihari byo gufatisha.

nk'uko mubibona ni inkongoro z'ibyuma aho zishinzwe kujyamo amata kugira ngo agapfa kandi bazifashisha bagemura amata hirya no hino mu gihugu akagera ku bantu ameze neza.

Nkuko bigaragara iri ni ikaragiro cyangwa se ihuriro ry'aho bazana amata bityo ushaka kunywa amata akagira n'icyo afatisha baza bagana izi nzu zikabafasha mu kuba babona ibyo kurya.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi igaragaramo umudamu ndetse iruhande rwiwe hari amata ndetse hari n'icyo gufatisha, ubona ko asa nk'uwaje gufata ibyo kurya bya saa sita.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata aho harimo umuntu w'indani waje gushaka amata yo kunywa ndetse ari no gusaba ibyo gufatisha mu gihe arabari kunywa amata.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga wifashisha wishyura amafaranga ajyanye n'ibyo wakoresheje cyangwa se wishyura ibintu bijyanye n'amashuri ndetse bijyanye n'umutungo kamere cyangwa se bijyanye n'ibintu wishyura.

Ubu ni uburyo bw'imbuga nkoranyambaga wifashisha wohereza unakira amafaranga, bigafasha kuba wakomeza guteza imbere ibyo wifuza mu buzima, kandi ugakomeza kuba wateza imbere igihugu n'abaturage muri rusange.

Zimwe mu nyandiko z'amafaranga ziba zigamije mu kwerekana uburyo amafaranga yakoreshejwemo kandi no mu buryo azakoreshwamo mu gihe ubiteganya.

Izi ni zimwe mu nyandiko cyangwa se impapuro zifashishwa na ba nyir'ubutaka kugira ngo bagaragaze ibice cyangwa se ubuso bw'ubutaka bwabo, kugira ngo batazariganywa n'abo baguze na bo.

Aya ni amafaranga y'amanyamahanga ari kubarwa n'umugabo utari kugaragara isura, aya mafaranga ari kuyabara mu buryo bwo kumenya ayo yinjije cyangwa se ingano y'ayo mafaranga afite mu ntoki.

Uyu ni umugabo ufite imashini ibara amafaranga y'amanyamerika imbere yiwe hateretse indi mashini agenda yandika imibare itandukanye y'amafaranga.

Amafaranga yo muri Tanzaniya ari guteshwa agaciro bitewe n'ukuntu ari kugabanyuka ku isoko ndetse n'uburyo ari gukoreshwa mu baturage mu buzima bwa buri munsi.

Ubu ni uburyo bandika bashaka kugaragaza uburyo amafaranga y'amanyamahanga ari kwiyongera ku isoko mpuzamugabane kandi bigaterwa n'ukuntu amafaranga agenda akoreshwa ku isoko.

Mu Rwanda hari amazu ashinzwe kuvunjisha cyangwa se guhinduranya amafaranga y'amanyamahanga bayashyira mu manyarwanda, bityo bigatuma abaturage bayifashisha kuba bakora ibintu byabo bya buri munsi bakiteza imbere.

Zimwe mu nzu zishinzwe kubika no kubikuza amafaranga y'abaturage mu gihe bashaka kubitsa no kubikuza batanga bintu byose kugira ngo babateze imbere.

Amazu ashinzwe gukusanya amafaranga ndetse no kuvungisha amafaranga y'amanyamahanga bakayashyira mu manyarwanda, ari gushishikariza Abanyarwanda kuyaga...

Amwe mu mazu ashinzwe kuvunjisha amafaranga y'abava mu bindi bihugu, ari gusaba abaturage yuko bakomeza kuyagana kugira ngo akomeze abafashe mu kunoza ndetse no kugira ngo amafaranga.

Izi ni intebe zikozwe mu biti zifashishwa mu nzu kugira ngo abantu bajye bazicaramo baganira cyangwa se barimo barya ibiryo kugira ngo bikomeze biteze ubuzima bwabo imbere bakomeze bakore neza.

Utu ni utubati dufashwa n'abaturage, kuba babikamo ibikoresho bimwe na bimwe byo mu nzu, bigatuma inzu itagira umwanda bikagaragara neza, bikozwe mu mbaho no mu biti, bifasha abaturage.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa bifashishije imbaho, bakabitaka bikaba byiza bigafasha mu kuba babikoramo imitako yo mu nzu ndetse n'iyo hanze.

Izi ni intebe abantu bicaraho, ubona ko ari nziza cyane, zikozwe mu biti, zakozwe n'ababaji, bigaragara ko izi ntebe ari nziza cyane kandi bazikoresha bifashisha ubugeni bw'ibiti.

Izi ni intebe zikorwa mu mitungo isanzwe tubona aho ari ho hose, ni ibiti, bikaba bikoreshwa mu gutegura amameza kandi bikanategura intebe zo kwicaramo muri salo.

Iyi ni intebe y'umuhondo ikozwe neza kandi ikozwe mu biti yakozwe n'nababaji imbere yaho hari ameza ateretseho indabo nziza nazo z'umuhondo.

Iyi ni inyubako ifasha abavuye mu mahanga ndetse n'abari mu gihugu mo indani, bifashisha bashaka amacumbi yo kuraramo, kugira ngo babone ibyo bakeneye kandi babone amacumbi meza, bafatwe neza n'abakozi.

Nk'uko biri kugaragarira amaso ya buri wese, ibi ni ibiryo byifashishwa mu nzu zimwe na zimwe zo mu Rwanda zitegura cyangwa se zifasha abantu baza babagana kuba babona amacumbi cyangwa se bakabona ibyo kurya bityo ibi ni biryo byifashishwa n'abakiriya baba baje kugana izo nzu zi ubufasha bwo kuba babona aho kurara no gucumbika.

Izi ni zimwe mu nzu cyangwa se amacumbi yifashishwa n'abaturage cyangwa abavuye hanze mu bindi bihugu mu gihe baza babagana bakabaha aho bacumbika ndetse bakabaha n'ibyo kurya.

Iyi ni imitako iba itatse mu byumba bimwe na bimwe inaha mu mazu akodeshwa ndetse n'agurishwa kugira ngo akomeze azane abakiriya kandi akomeze ateze imbere ubuterambere bwabo.

Izi ni zimwe mu ntebe cyangwa se imitako iranga amazu, aho ba mukerarugendo cyangwa se abavuye mu mahanga baza bashaka kuruhukira, bityo bikabafasha mu kuba babona amacumbi meza cyane.

Izi ni zimwe mu nzu zicumbikira abavuye hanze y'igihugu cyangwa se abarimo indani mu gihugu bityo bakaza babagana bashaka aho kuba barara bityo bagatanga izo zose bakaharara.

Izi ni zimwe mu nzu zitanga ibijyanye n'ibiribwa cyangwa se ugasanga aho abavuye hanze cyangwa bari mu gihugu baje gushaka aho kurara, ndetse bakabaha amacumbi.

Nk'uko bigaragara ubu ni ubusitani bw'icyatsi buteye ahantu ku nzu ifasha abantu kuba bayigana bakabaha aho kurara amacumbi ndetse no mu bindi biryo bashaka bakabaha ibyo kurya.

Zimwe mu nyubako zishinzwe kurengera ubuzima bw'abantu ndetse n'ibintu mu mujyi wa kigali biri gufashishwamo kugira ngo abaturage bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Izi ni zimwe mu nzu zishinzwe gufasha abaturage kwiteza imbere ndetse no kurwanya imibereho mibi ndetse no kurwanya uburyo bahura n'impanuka rimwe na rimwe bari mu mihanda cyangwa se mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubu ni uburyo bwamamaza ibikorwa bijyanye no kwaka inguzanyo mu mazu, amwe n'amwe mu mujyi wa Kigali, atanga inguzanyo bityo bakabyamamaza.

Ubu ni uburyo leta iguha inguzanyo, ukagenda uyishyura mu buryo bucye buke, bityo amafaranga ubonye ukajya ukuraho makeya ukishyura leta kugeza aho uzakuramo ayo bakugurije, bikagenda neza.

Abaturage bari guhahira mu masoko menshi abafasha mu kuba bakwiteza imbere ndetse no kubona ibiribwa byiza ku isoko mpuzamahanga kandi ndetse mu za midugudu.

Aha usanga ari mu mazu ari mu mujyi wa Kigali aho baba batanga ubucuruzi bujyanye no kwambika abantu imyenda irimo imipira ndetse n'amakabutura bityo bikabafasha cyane.

Nk'uko mubibona, aha ni mu mujyi wa Kigali, aho abantu aba ari benshi ari urujya n'uruza, baje gushaka ibikoresho byo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, uko bwije n'uko bukeye.

Iri ni isoko ririmo abaturage benshi cyane, bakoze urujya n'uruza mu gihe baza kugurisha ibiribwaba biba byeze, harimo inyanya, cyangwa se intoryi, mu gihe baje gushaka amafaranga.

Aya ni amwe mu masoko cyangwa se inzu usanga zibamo ibintu byinshi cyane bitandukanye aho usanga harimo amakusanyirizo y'amata ndetse ugasanga harimo n'ahandi bagurishiriza ibyo kurya.

Aba ni abaturage, aho usanga bazanye ibiribwa ku isoko, bazanye kubigurisha, ugasanga harimo inyanya, intoryi, insenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakozi b'ikigo cya MTN, barasabwa kubahiriza inshingano zabo ndetse nk'uko babisabwa n'ikigo bakorera cy'ishami rya MTN.

Aya ni amasoko yo ku mbuga nkoranyambaga yifashishwa n'abaturage mu kugira ngo bahahe ibyo bifuza kandi banashake ibyo bifuza ku mbuga nkoranyambaga bikagendana neza.

Izi ni zimwe mu mbuga zifashishwa n'abaturage bifashisha kugira ngo bagure ibikoresho byo mu ngo, ndetse bifashisha kugira ngo bakomeze bateze ubuzima bwabo imbere, bikabafasha mu buzima bwa buri munsi.

Aya ni amwe mu masoko aba ari ku mbuga nkoranyambaga, aho ukeneye ibintu byamusanga iwabo, ajya kuri izo mbuga bityo, akavuga icyo ashaka bakakimugezaho iwabo, nta ngorane zinyuzemo.

Izi ni zimwe mu mbuga nkoranyambaga zifashishwa n'abaturage, kugira ngo batume ibintu byiza byihuta bibageraho bifite umutekano wizeye; bigafasha abaturage mu kuba bakomeza kugirana imihahiranire myiza hagati yabo.

Izi ni zimwe mbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa mu guhaha ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibyo gukoresha mu buzima busanzwe, biri gufasha abaturage mu kubona ibikoresho byizewe kandi birambye, ku gihe.

Ni zimwe mu nzu zishinzwe gufasha abantu kubona aho barara kandi bakabaha n'umutekano usesuye, bakabasigira amafaranga kugira ngo biteze imbere.

Bimwe mu bibabaje abantu ni uburyo ibibanza biri kugurishwa mu mujyi wa Kigali ndetse n'amazu uburyo ari guhendamo mu buryo butunguranye ndetse n'abayobozi bari kubyinubira n'abantu bayashaka amazu.

Izi ni zimwe mu nzu cyangwa se ibibanza byamamazwa kugira ngo bigurishwe cyangwa se bicuruzwe, hagamijwe kuba babona inyungu biciye mu kuba bakamamaza cyangwa se kuba bagurisha izo nzu.

Ni inzu iyi ni inzu igurishwa kandi se ikanakodeshwa bitewe n'icyo uje uje uyishakira bityo bagatanga uburyo bashobora kuba bayikodesha cyangwa bakayigurisha.

Iyi nzu igiye yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara irimo kwinjirwamo n'abantu baje guhaha gushaka ibyo kwambara ndetse bashaka n'ibyo kugira ngo bakomeze bahagire ubuzima bwiza.

Iyi ni inzu cyangwa se iduka rihahirwamo imyambaro y'abagore cyangwa se iy'abagabo cyangwa se iy'abana, yifashishwa mu kwambara kugira ngo base neza cyane.

Mituweli ni uburyo bashyiriwe abaturage b'u rwanda kugira ngo bajye bivuza uko bagize ibibazo bya buri munsi mu buzima bajye bagana ibigo nderabuzima bibafasha.

Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo butandukanye bwo kwivuza, kujya kwa muganga ndetse no kwifashisha amakarita azajya afasha abaturage mu kwivuza.

Aya ni amashusho agaragaza abaturage bishimye, bari kuganira ku mibereho myiza, kandi baganira ku iterambere ry'ubuzima bwabo, kugira ngo bakomeze kugirana imibanire myiza hagati yabo na bagenzi babo, bateganye imbere.

Iyi ni ikarita yo kwivurizaho aho mu gihe urwaye utemerewe kurembera mu rugo ufite iyi karita, Iyi karita igufasha kuba wabona imiti cyangwa se kuba wabona ubuvuzi bwihuse cyane.

Uyu ni umubyeyi n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru aho umubyeyi yaje gushaka uburyo yabona ubwishingizi mu kwivuza ndetse akabona ubuzima bwiza.

Aya ni amwe mu mazu umujyi wa Kigali yifashishwa acuruza ibiribwa cyangwa se ibyo kunywa bifasha abaturage ubuzima bwabo bwa buri munsi bityo ubuzima bwa bukagenda neza bifashisha ano mazu babikamo ibyo kurya bikabafasha.